Mu bihingwa gakondo byo mu Rwanda hagaragaramo igiti cyitwa umusave. Icyo giti cyabaye ingirakamaro kuva na kera ndetse na n'ubu. Gikura gitinze kandi kikavamo imbaho nziza cyane ndetse n'ibiti bikomeye abantu benshi bakunze kubakisha. Icyo giti iyo ukibonye usanga gikura citonze kuko kimara imyaka myinshi ariko kikavamo imbaho zikomeye.